Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ni ingenzi. Umwana wambaye umupira w'ubururu uciyemo uturongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki, arimo arakarabywa n'umuntu mukuru uri kumusukira amazi.

Abagore batatu barimo kuvoma amazi aturuka munsi y'ubutaka. Babiri muri bo bayafatanije ku cyuma bazamura banamanura, hanyuma kigatuma amazi ava munsi y'ubutaka. Undi muri bo ari kuvoma amazi ayavana mu gikoresho kimwe bazanye kuvoma ayashyira mu kindi.

Imodoka nini zo mu bwoko bw'amakamyo, abenshi bakunda kwita rukururana z'Umuryango World Food Program, ni amakamyo y'umweru ndetse ariho n'ibirango by'Umuryango World Food Prorgm.

Abana batatu bizihiwe bishimye, bari imbere y'amavomo, aho bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, himakazwa umuco wo gukaraba intoki ndetse no kugira isuku ahantu hose.

Abakora umwuga w'ubuvumvu bahangayikishijwe n'ihindagurika ry'ikirere n'ikendera ry'inzuki kandi arizo batezeho amakiriro, imitiba bakora ntibona abaguzi cyangwa se ngo babone aho bayihagika kuko nta nzuki ziyijyamo.

Umukobwa usutamye, uri kuvoma amazi ku ivomamo n'ijerekani y'ubururu iteretse mu ibasi, inyuma ye hari ubwanikiro bw'imyenda itandukanye ndetse hakaba hari n'inyubako ifite amabati ashaje.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe, bambaye impuzankano zisa z'ubururu, bafite ibitabo barimo barasomeramo, aho bari gufata amahugurwa atandukanye ku bigendanye n'ubuvuzi.

Abana babiri batari mu kigero kimwe, hari umukuru ndetse n'umuto, bose bafite ibivomesho, aho bagiye kuvoma amazi y'igishanga, bigaragara ko aya mazi atari meza.

Umubyeyi ukikiye umwana, hari abaganga babiri, hari umuganga uri gutera urushinge umwana, hari ameza ari impande yabo iteretseho agakarito k'umuhondo, uwo muganga yambaye umwambaro w'umweru ndetse n'ayo meza ariho udukarito tundi tw'imiti.

Umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi wicaye ku ntebe hanze imbere y'inyubako, ari kumwe n'umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse uwo mugore akaba atwite, ari kubagira inama z'uko bagomba kwita ku mwana ukiri mu nda ndetse n'uko barushaho gukaza ingamba z'ubuzima ngo bazabyare umwana umeze neza.

Umwana uri ku ivomo, afite igikoresho cyo kuvomeramo amazi cy'indobo, ari kunywa amazi ku ivomo akoresheje intoki ze yarambuye akajya anyweraho amazi.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye b'ingeri zose, abagabo ndetse n'abagore, hari b'umugabo wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, uhagaze hagati yabo, urimo uratanga imbwirwaruhame.

Abagore bane bicaye bari kumwe n'umuganga urimo kubagira inama, ni umuganga wambaye imyenda y'iroza ari impande y'ameza iteretseho ibitabo, inyuma ya bamwe muri bo hari amarido y'ubururu ariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Abaganga, abagabo ndetse n'abagore, abambaye impuzankano z'umweru ndetse n'abatazambaye, bambaye ibibaranga mu ijosi, bakaba bari mu mahugurwa y'igikorwa cyabo bise Nyabageni Outreach and mass screening.

Imbaga nyamwinshi yateraniye hamwe abasaza, abakecuru, abana, abakuru hari ibirango by'igihugu nk'idarapo bigira hamwe iterambere ry'ubuhinzi mworozi ndetse n'izindi ngamba zizakomeza gufasha umuturage gutera imbere.

Icyumba gitangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi. Harimo abaganga bambaye impuzankano z'icyatsi ndetse bambaye n'udupfukamunwa, hamwe n'uturindantoki. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi ndetse hakaba hari n'umurwayi urimo urahabwa serivise z'ubuzima.

Abayobozi batandukanye b'inzego z'ubuzima bahuriye hamwe mu nama mu guhashya ibibazo byugarije serivisi z'ubuzima. nyuma y'inama bafashe ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umukobwa uri koza ibikoresho, indobo eshatu, akaba ari impande y'ivomo riturukamo amazi aturutse munsi y'ubutaka. Ari koza ibi bikoresho, himakazwa kugira isuku hose iwacu.

Umubyeyi ukikiye umwana, akaba yaje kuvoma amazi ku ivoma, afite indobo y'umukara ndetse umwana akikiye nawe akaba yambaye ingofero mu mutwe.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, bahurije hamwe umugambi, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse bakaba banafite amazi yo kunywa imbere yabo ku meza.

Umugabo n'umubyeyi ukikiye umwana, umugabo wambaye bote z'umweru, wicaye ku ntebe hafi ye hateretse ibitabo, akaba afite n'ikindi gitabo mu ntoki, n'umubyeyi ukikiye umwana akaba afite urupapuro mu ntoki.

Umwana wambaye umupira w'umutuku wizihiwe, ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite igikombe cya kaki ari ku ivoma, ndetse akaba ari no kuvoma amazi ayashyira mu gikombe.

Umugabo wizihiwe cyane, afite ikivomesho ijerekani, hafi aho hari ivomo aho amaze kuvoma amazi meza bagejejweho, akaba yizihiwe nyuma y'uko babonye amazi meza.

Abaganga babiri, umugabo n'umugore, bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bari kumwe n'umurwayi uri ku gitanda aho arimo arahabwa serivisi z'ubuvuzi ndetse anapimwa indwara zitandukanye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, bose bahuriye ku ivomo riri hafi y'ishyamba, aho baje kuvoma amazi, buri wese afite ikivomesho ke, akaba arimo aravoma amazi yo gutwara mu rugo.

Itsinda ry'abana benshi, abahagaze, ndetse n'abandi bafite ibivomesho mu ntoki, hari ivomo, baje kuvoma ku ivomo riturukamo amazi yo munsi y'ubutaka, hari umwana uri kuvoma, ndetse n'undi uri kuzamura icyuma anakimanura, kugira ngo amazi aturuke munsi y'ubutaka.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya, umwe muri bo afite telefone mu ntoki, undi akaba afite ibitabo mu ntoki, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse bakaba banavuga yuko batsinze icyorezo cya Marburg.

Umugore ufite uruhu rwera, wambaye isaha mu kaboko ke k'ibumoso, mu kaboko k'iburyo harimo indangururamajwi y'umukara, ahagaze imbere y'ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye; United Nations.

Umuganga uciye bugufi uri imbere y'umubyeyi ukikiye umwana, bagaragiwe n'abandi babyeyi bafite abana. Hari ibikoresho by'ubuvuzi ndetse aho uwo muganga ari kuvura umwana ufite ikibazo cy'uburwayi.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe irimo ingeri zose abagabo, abagore, abamama, abapapa ndetse n'abana, bari imbere y'inyubako iriho idarapo ry'u Rwanda, bakaba bari mu nama yabahurije hamwe.

Abaganga batanu abagabo bane ndetse n'umukobwa umwe, bane baricaye ndetse umwe abahagaze inyuma, batatu muri bo bambaye impuzankano y'umweru abandi babiri bambaye iy'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho ndetse n'imiti yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abana bari ku ivomo riturukamo amazi yo munsi y'ubutaka. Ni abana bafite ibivomesho byinshi birimo nk'amajerekani ndetse n'utubido dutoya. Hari umwana uri kuzamura icyuma anakimanura kugira ngo amazi aturukire munsi y'ubutaka.

Abana bambaye impuzankano z'ubururu za Unicef. Barishimye, baraseka, bafatanye urunana, bigaragara ko bafite icyizere cy'ejo hazaza ndetse no kubaho neza.

Ivomo ry'amazi aturuka munsi y'ubutaka. Ivomo ririho abana babiri bizihiwe, aho umwe arimo aravoma, ndetse n'undi arimo arazamura icyuma anakimanura gituma amazi aturuka munsi y'ubutaka.

Umuganga uri kwita ku barwayi, hari imiti iri ku meza ndetse hakaba hari n'abarwayi bari kwitabwaho ndetse hari n'abandi bacyicaye, bategereje kuba baza guhabwa ubuvuzi.

Abana bateraniye hamwe, bambaye impuzankano z'umuhondo, bari ku kigo cy'ishuri, aho bari kwishimira abashyitsi babasuye b'umuryango UNICEF. Abahagarariye umuryango UNICEF harimo abakuru, abirabura ndetse n'ab'uruhu rwera.

Umuganga uri kumwe n'abantu batatu. Umwe muri abo batatu, ni umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe cy'umweru, umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, ndetse akaba anakikiye umwana, imbere ye hari undi wambaye ipantaro y'umukara ndetse akaba anafite ibitabo ari gusoma. Umuganga na we akaba afite ibikoresho byifashisha mu kuvura abana.

Abantu barenga batanu bahuriye ku ivomo rimwe baje kuvoma amazi. Bane baje kuvoma, undi umwe ni uvomesha. Hari ibivomesho amajerekani, bitonze umurongo bitegereje kuba byavomerwa.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ari kumwe n'abagore batatu, umwe muri bo arimo arapimwa indwara ndetse abandi babiri muri bo bakaba bategereje ko bagerwaho bakavurwa ndetse bakaba banafite impapuro mu ntoki.

Icyumba kinini cy'uruganiriro kirimo abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo, hari bamwe bahagaze ndetse abandi baricaye, hari umugabo wambaye ishati iri mu mabara y'ubururu ubahagaze impande urimo urabahereza imbwirwaruhame.

Icyumba kirimo abagore babiri, bicaye ku meza. Umwe muri bo afite impapuro mu ntoki, ndetse na mudasobwa imbere ye. Hari umubyeyi uri kumwe n'umwana ubahagaze imbere, wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapfukamunwa. Hari n'abandi bantu bari muri icyo cyumba, bicaye hirya bategereje, ko bavurwa kandi bafite impapuro mu ntoki.

Abagabo ndetse n'abagore, ababyeyi bakikiye abana, ndetse n'abana bahagaze impande y'umugezi, hari umwana umwe urimo kuvoma amajerekani y'amazi, ndetse n'umumama urimo kumufasha kuzamura icyuma anakimanura, kugira ngo amazi aturuka munsi y'ubutaka abashe kuba yazamuka.

Abana bane bari ku ivomo, ni abana bafite ibivomesho, baje kuvoma ku ivomo riturukamo amazi yo munsi y'ubutaka, hari umuntu mukuru wambaye ipantaro y'umukara n'agapira, aho arimo arazamura icyuma, anakimanura, bikabafasha kuvana amazi munsi y'ubutaka, hirya yabo hakaba hari imodoka ihaparitse.

Gukaraba intoki ndetse no kugira isuku, ni inshingano ya buri wese. Umuntu urimo gukaraba intoki akoresheje amazi atemba aturuka mu ruhombo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu b'ingeri zose, abagore ndetse n'abagabo, higanjemo abafite imyaka yigiye hejuru. Ni amasomo bari gufata, aho bigishwa ku kuba bakwiteza imbere.

Ameza ateraniyeho abantu bahuje umugambi, aho barimo kuganira. Imbere kuri ayo meza hateretseho ibikoresho bitandukanye. Amakaye, impapuro, amakaramu ndetse n'ibirahuri by'amazi.

Icyumba kirimo abantu bicaye kumeza mu buryo butandukanye, ni abantu b'imihanda yose, abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, ameza yabo ateretseho amazi, amakayi, ibindi bikoresho birimo nka mudasobwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga, ni icyumba kirimo insakazamashusho, intebe ishobora kwicarwaho cyangwa se ikaramburwa ikagirwa nk'igitanda, umurwayi akaba yayicaraho cyangwa se akayiryamaho mu gihe ari guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Umwana wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umuhondo, yaje kuvoma yazanye ijerekani y'umweru, akaba ari ku ivomo arimo aravoma amazi.

Hakwiye gushakwa abandi bafatanyabikorwa bari hano hanze kugira ngo badufashe ku kuba twafata ubuvuzi tukaba twabugeza kuri buri umwe wese aho agomba kuba ya Marie Jacqueline.

Abagore babiri bakuze n'umwana w'umukobwa umwe bahuriye ku ivomo baje kuvoma amazi meza, bafite amajerekani menshi yo kuvoma, aho bayashyize ku murongo, aho hagenda havomwa imwe imwe.

Abana bane bari kuvoma amazi aturuka munsi y'ubutaka, hari umwana umwe urimo urazamura icyuma ndetse anakimanura, kugira ngo kibashe kuba cyazamura amazi aturuka munsi y'ubutaka, hari ijerekani y'umuhondo irimo iravomerwamo amazi.

Abana benshi bahuriye ku ivomo rivamo amazi aturutse mu butaka, bafite ibivomesho, batonze umurongo, aho havoma uwaje mbere y'undi, hari umwe urimo uragenda azamura icyuma akimanura kugira ngo amazi ashobore kuba yava munsi y'ubutaka.

Abana b'abanyeshuri abakobwa ndetse n'abahungu, bari mu ishuri bicaye ku ntebe aho bari gufata ifunguro rifatirwa ku ishuri. Ni ibiryo bigizwe n'akawunga ndetse n'ibishyimbo.

Umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu bw'ikirere ufite igitenge ku rutugu, hafi ye hari umwana wicaye ari kuvoma amazi atemba.

Umugabo waje kuvoma amazi ku ivomo, afite ibivomesho bibiri, afite ijerekani y'umuhondo ndetse n'akandi kajerekani gato kari mu ibara ry'umweru.

Abana babiri bafite akanyamuneza, bombi bambaye imipira itukura ndetse umwe akaba arimo arakaraba intoki n'amazi meza n'isabune; isuku y'intoki zacu ni ingenzi niyo mpamvu tugomba kwimakaza umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune.

Icyumba kigari kirimo abantu b'ingeri zose imbaga nyamwinshi, iteraniye hamwe, ifite amakaye n'amakaramu yo kwandikamo ibigendanye n'amahugurwa barimo guhabwa.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, ari ku ivomo, aho arimo gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, hirindwa umwanda. Imbere ye, hari ikigega cy'amazi cyanditseho UNICEF.

Umubyeyi waje kwa muganga aje kuvuza umwana, akikiye umwana. Ari kumwe n'umuganga, aho umuganga arimo kumufasha mu kuvura umwana ndetse anamuha umuti.

Abana bakiri bato bakunda guterwa inshinge, akenshi ziba ari inshinge z'inkingo. Umwana ukikiwe n'umubyeyi, arimo araterwa urushinge ku kaboko n'umuganga.

Abagore bane n'umwana umwe, aho babiri bari koza ibikoresho bijyamo amazi ndetse abandi babiri bahagaze bari kubareba. Ku ruhande rwabo hari ivomo ndetse hakaba hari n'ikirango cy'umuryango UNICEF.

Ni batanu, abagore ndetse n'abagabo, umwe muri bo afite indangururamajwi mu kaboko ke k'iburyo, bari kuganira ku cyizere cy'umwana wese, umwana agomba kwitabwaho kuva akiri muto kugeza agejeje imyaka y'ubukure.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'umukara, amaherena, imisatsi y'umukara, akaboko k'ibumoso kariho isaha ndetse n'impeta, amabara y'ikanzu yambaye ni umuhondo, umukara ndetse n'umweru, akaba akikiye umwana, inyuma ye hari umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi, agapfukamunwa k'umukara ndetse nawe akaba akikiye umwana.

Abanyeshuri bambaye impuzankano; abakobwa ndetse n'abahungu. Bahagaze imbere y'ikigega kivomerwamo amazi, ndetse buri umwe akaba afite igikombe arimo aranywesha amazi.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari kuri kandagira ukarabe aho arimo arakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, himakazwa umuco wo kugira isuku ndetse no gukaraba intoki.

Imbyino za kinyarwanda, imbyino gakondo, ni imbyino zikundwa n'abanyarwanda bose. Aba bamama barimo barabyina imbyino gakondo, aho barimo kubyina bya kinyarwanda.

Umwana uri ku ivomo, wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura. Arimo arakarabira ku ivomo, nyuma yuko yari amaze kuvoma, ibikoresho yari yazanye kuvoma.

Icyumba k'inama, giteraniyemo imbaga nyamwinshi, abagabo, abagore ndetse n'abandi baturutse imihanda yose y'Isi, bateraniye muri icyo cyumba, barimo guhabwa amahugurwa atandukanye.

Abakozi b'urwego rw'ubuzima bambaye impuzankano y'icyatsi, bari gukoma amashyi abandi bateze amaboko bari kubyina, bahagaze imbere y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Mayange giherereye mu Karere ka Bugesera.

Abantu batatu bari imbere y'imbaga nyamwinshi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, bari gutanga imbwirwaruhame ku babakurikiye mu ku kibazo cyo kuba bahangana n'indwara ya Mariburu.

Itsinda ry'abantu benshi ririmo abagabo n'abagore, ryiganjemo abaganga bambaye impuzankano, bari mu gikorwa kiswe Nyabageni outreach and mass screening, bari imbere y'inyubako, bamwe baricaye abandi barahagaze mu gufata ifoto y'urwibutso.

Inama y'igihugu yiga ku buzima, ni inama iyobowe n'abantu batandatu ndetse n'imbaga nyamwinshi yaje muri iyo nama, iyo nama ikaba yiga ku bigendanye no kuba hashorwa imari mu buzima ndetse bugatera imbere kurusha uko bimeze ubu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, amadarubindi, ingofero n'umupira by'ubururu ari kumwe n'umwana, akaba amukoreje ikivomesho hirya y'uwo mwana hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'ubururu, imbere y'uwo mwana hakaba hari umuzungu urimo kumufotora.

Ni bane bahagaze barimo kuganira, ni nyuma yo gushyira ku mugaragaro urugaga rushinzwe kurinda abana ihohoterwa, ni igikorwa cyatewe inkunga na UNICEF.

Abana babiri bahuriye ku ivomo: umwe ukenyeye igitenge, undi wambaye ijipo ya kaki, aho umwe ukenyeye igitenge, yarimo afasha mugenzi we wambaye ijipo ya kaki, kwikorera ikivomesho ngo batahe.

Inzego z'umutekano ziri mu zifasha ubuvuzi kugenda neza, umupolisi arimo araha umwana igikoma mu gikombe ndetse n'abandi barezi bari gufatanya n'uwo mupolisi, aho bari kugenda bagaburira abana.

Ivomo rusange rihurirwaho n'abaturage benshi, iri ni ivomo rya kabiri, aho hari umwana urimo uravoma, iruhande rwe hari umubyeyi, inyuma y'uwo mubyeyi hari abandi bantu bitwikiriye umutaka, ndetse banakikijwe n'abandi bana.

Inyubako iri mu ibara ry'ubururu, ni inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi butandukanye benshi bazi nka Poste de sante. Imbere y'iyo nyubako hari abantu b'ingeri zitandukanye harimo abaganga, abamama n'abagabo ndetse harimo n'abafite uruhu rwera.

Icyumba giteraniyemo abantu b'ingeri zose, abasore ndetse n'inkumi, abambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'imyambaro y'umweru. Bafite amazi imbere ku meza ndetse n'amakaye n'amakaramu mu ntoki zabo.

Abana batatu batari mu kigero kimwe, bafite ibivomesho aho baje kuvoma amazi aturuka munsi y'ubutaka, imbere y'abo bana hari umukobwa urimo kubafasha kuvoma ayo mazi, aho agenda azamura icyuma anakimanura kigatuma amazi azamuka ava munsi y'ubutaka.

Abasaza, abakecuru, abana n'abakuru ndetse n'abasheshe akanguhe bicaye imbere y'inyubako y'ibitaro, aho baje kuba bahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore uri guseka, wambaye ikote ritukura hejuru y'umupira w'ubururu, inyuma ye hari inyubako ifite ibara ry'umuhondo, uyu mugore uri guseka agaragaza ko yizihiwe ndetse anishimye.

Imbaga nyamwinshi yateraniye hamwe, yishimiye ndetse inatewe ishema n'igihugu cyabo cy'u Rwanda, aho kigeze gitera imbere. Hafi ya bose, bakaba bafite amadarapo y'u Rwanda, aho bayazamuye bishimira igihugu cyabo.

Ibirango by'ivuriro Solid Minds Counselling Clinic, ni ibirango bigizwe n'amabara abiri, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umukara, ni ibitaro bitanga ubuvuzi akenshi hibandwa mu kuganiriza abarwayi.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro byiza cyane, arimo araramukanya n'umugabo utambaye wambaye ubusa. Wambaye imyenda yamucikiyeho, aho nta myenda yindi afite yo kwambara.

Isange One Stop Centre ni urwego rufite abafatanyabikorwa benshi batandukanye. Muri abo bafatanyabikorwa harimo umuryango w'abibumbye, Unicef, Polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego nyinshi. Hibandwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko rikorerwa cyane abana b'abakobwa.

Gutera igiti ni ibya buri wese! Abantu b'ingeri zitandukanye bahuriye hamwe ndetse banatera ibiti ku bwinshi, himakazwa ihame ryo gutema kimwe, ugatera bibiri.

Ikigo cy'ubuzima RBC kigaragaza ko hari ibyiciro bitandatu bitandukanye by'abarwayi bo mu mutwe biherereye mu turere dutandukanye, umurwayi ashyirwa mu cyiciro bitewe n'uburemere bw'uburwayi afite.

Umukobwa wicaye ku ntebe uri guseka ugaragaza akanyamuneza kenshi ku maso, afite umusatsi mwinshi, yambaye udutako ku ijosi ndetse no ku maboko yambaye umupira w'umukara n'ipantaro. Inyuma ye hakaba hari ubwoko bw'indabo butandukanye.

Umukecuru ukuze uteze igitambaro mu mutwe, yicaye hagati y'itsinda ry'abana benshi, ni abana benshi bamushagaye bari mu buzima bugoye ndetse bakaba nta n'icyizere cy'ubuzima bafite.

Umugore ufite abana babiri, umwe muri abo bana ari mu mugongo we, undi ahagaze iruhande rwe, bari mu nzu ifite inkuta z'igitaka, umugore afite akanyamuneza ku maso, yambaye n'agapfukamunwa.

Ababyeyi babiri bicaye mu cyumba, hari umubyeyi uri kugaburira umwana ndetse hakaba hari n'undi wicaye ukikiye umwana, bari kumwe n'undi mukobwa urimo kubaganiriza ndetse imbere ye kuri ayo meza hari ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, arimo aratanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye. Inyuma ye hakaba hari abandi bantu batatu bicaye. Mu bamukurikiye, harimo abafite amacupa y'amazi imbere yabo, ibyuma bya mudasobwa, ndetse n'amakayi n'amakaramu.

Ikirango kinini kiri mu ishusho y'umutwe w'umuntu ariko gifite amabara atandukanye nk'umukara, umuhondo, ndetse n'ubururu. Hari abantu babiri, umugore n'umugabo bagihagaze iruhande. Ni ku munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Urupapuro rw'inyandiko ya turi kumwe rwashyizwe hanze n'Umuryango w'Abibumbye muri bibiri na makumyabiri, ku nsanganyamatsiko igira iti''Tunoze ejo hacu heza hazaza turi kumwe.''

Itsinda ry'abantu batanu. Ni abagore batatu ndetse n'abagabo babiri. Bicaye hanze, bicaranye n'umwana ukiri muto. Bicaye imbere y'inyubako ifite ibiti biyizengurutse.

Umwana uri mu cyumba cyijimye ufite agahinda, yicaye hasi arambije akaguru kamwe akandi yambaye ubusa ndetse n'akaguru ke gahambiriye iminyururu.

Umugabo wambaye imyenda yamusaziyeho, ufite umusatsi mwinshi, ubwanwa bwinshi, ubona ko asa nabi. Ni umugabo ubona ko abayeho mu buzima bushaririye ndetse akaba atari ubuzima bwiza.

Umumama wambaye umupira w'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, ari imbere y'imbaga nyamwinshi, ari gutanga imbwirwaruhame ndetse anatanga amahugurwa ku nsanganyamatsiko igira iti''Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.''

Umumama wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, yambaye ibimuranga biriho ikimenyetso cyo kwibuka. Ni ikimenyetso cy'urumuri, aho tariki indwi Mata buri mwaka, hibukwa Jenoside Yakorewe abatutsi mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda.

Inyubako y'ibitaro bivurirwaho abarwayi bo mu mutwe, ni inyubako nziza ifite ubusitani imbere buteyemo ibiti, ihagazeho umugabo imbere wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abagabo n'abagore, bicaye mu buryo bw'uruziga, bahurije hamwe umugambi. Batatu muri bo bari imbere yabo muri urwo ruziga, aho barimo baragenda batanga imbwirwaruhame n'ibiganiro bitandukanye.

Tariki ya karindwi Mata mu w'igihumbi kimwe maganakenda mirongo ikenda na kane, hibukwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, uyu mugabo amaze gushyira indabo ku mva ishyinguyemo abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi.

Umucuruzi ucuruza butike, akaba afitemo ibicuruzwa bitandukanye ndetse by'ubwoko bwose. Haba ibyifashishwa mu guteka ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba yambaye n'umwambaro wa MTN, akaba ari n'umukozi wa MTN.

Abaganga umunani b'inzobere ku bigendanye n'ibibazo ndetse n'indwara zo mu mutwe. Baje gutanga amahugurwa ndetse bakanasuzuma abarwayi, bakareba niba nta bibazo byo mu mutwe bafite. Abasanzwe bafite ibibazo, bahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye imyenda y'igitenge cy'icyatsi kibisi kimo n'amabara arimo umuhondo ndetse n'umukara, akaba yateze ikindi gitenge mu mutwe, akaba rero yishimye afite akanyamuneza ku maso.

Abantu benshi ingeri zose bari mucyumba, barahagaze, abandi barasutamye, inyuma y'abo bantu hari ikirango cy'umuryango Unicef, harimo ameza ndetse n'intebe, kuri ayo meza hateretseho icupa ry'amazi.

Itsinda ry'abanyeshuri bishimye bafite akanyamuneza ku maso, bambaye impuzankano z'ubururu, benshi muri bo bazamuye ikiganza hejuru, bari mu kibuga cyisanzuye, inyuma yabo hakaba hari ikirango cy'Igihugu Ibendera.

Inyubako iri mu ibara ry'umuhondo, ifite aho kwicaraho hanze hari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ifite icyapa hejuru kimanitseho ndetse n'aho bazamukira bajya muri iyo nzu.

Umubyeyi uteruye umwana, ari kumwe n'umukozi w'urwego rw'ubuzima. Afite igikoresho cyifashishwa mu gupima ikigero cy'ubushyuhe, ndetse na telefone mu ntoki. Ari kwereka umubyeyi w'umwana ibipimo by'ubushyuhe yari amaze gupima.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'indorerwamo, bombi barimo koza amenyo bakoresheje umugozi wo koza amenyo, bose bafite akanyamuneza ku maso, barimo baraseka ndetse banishimye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye, ni ibikoresho biri mu bubiko bwabyo ndetse ibi bikoresho bikaba birimo n'ibipima abarwayi indwara.

Abana bari mu cyumba cy'ishuri, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano, bishimye ndetse banizihiwe, nyuma yo guhabwa umuti woza amenyo wo mu bwoko bwa White dent, bari kumwe ndetse n'abarezi babo.

Umugabo ufite ikibazo cy'amenyo, ari kugerageza kwikura iryinyo, akoresheje urudodo. Ibi si byiza kuko byamutera kwikomeretsa. Ndetse hakaba hanamuviramo kwandura izindi ndwara zindi atari yateganije.

Guseka ni byiza mu buzima, ariko bikaba byiza kurushaho mu gihe dufite ubuzima bwiza bw'amenyo yacu, ndetse amenyo yacu anasa neza. Uyu mugabo yari amaze gukorerwa Ubuvuzi bw'amenyo, aho yari yizihiwe nyuma yuko'uko yakize indwara yari arwaye.

Umukobwa ufite amaso meza, ugaragaza akamwenyu ku maso ndetse akaba yanakoze ikimenyetso kigaragaza urukiramende rwuzuye.

Umwana w'umukobwa wambaye imyambaro y'umuhondo, ari kumwe n'umuganga w'amenyo. Umuganga w'amenyo arimo aramuvura amenyo, akoresheje bimwe mu bikoresho bipima ndetse bikanavura amenyo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, imyambaro y'ubururu, akanoza asuku mu mutwe, uturindantoki tw'ubururu mu ntoki, ndetse akaba arimo aravura umurwayi indwara z'amenyo yifashishije ibikoresho biboneka kwa muganga bivura amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi. Harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bivura abarwayi, utubati, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, gikoreshwa mu kwita ku murwayi. Kirimo intebe, igitanda, insakazamashusho ndetse n'ibindi bikoresho byakwifashishwa mu kwita ku murwayi.

Umuganga wicaye mu cyumba cy'ubuvuzi, inyuma ye hari uburyamo buryamishwaho abarwayi, hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, hari aho bakarabira ndetse hari n'akabati kabikwamo ibikoresho.

Koza amenyo ndetse no kugira isuku y'amenyo yacu ni ingenzi, umwana ufite uburoso bw'amenyo buri mu mabara abiri, ubururu bwerurutse ndetse n'umuhondo, ari kubukoresha yoza amenyo.

Umurwayi uryamye ku gitanda kiryamaho abarwayi baje kwa muganga, ari kwitabwaho n'abaganga babiri, hifashishijwe ibikoresho bisanzwe byifashishwa mu kuvura abarwayi b'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'isuku y'amenyo yacu, biri mu bintu tugomba kwitaho cyane. Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki ndetse akaba ari kubukoresha yoza amenyo ye.

Abagabo n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, bamwe barahagaze abandi bicaye hasi, ni ifoto y'urwibutso irimo irafatwa nyuma y'igikorwa bari basoje gukora.

Ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, ni ibikoresho by'ubwoko butandukanye, aho buri gikoresho cyose kiba gifite umumaro utandukanye n'uwikindi gikoresho, ibi bikoresho rero bakaba babikoresha bavura umuntu wagize ikibazo cy'amenyo.

Umudamu uhagaze uri koza amenyo, wambaye umupira w'icyatsi ndetse hari n'abandi bamukikije bambaye imipira y'icyatsi, ni muri gahunda ya tubiteho yo koza amenyo ndetse no kugirira isuku amenyo yacu.

Umukobwa wishimye ufite akanyamuneza ku maso, ari kumwe n'umuganga. Umuganga afite agakoresho kariho amabara atandukanye y'amenyo, ari kumwereka ngo ahitemo ibara rigendanye nuko amenyo ye asa.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuzima. Krimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe zo kwicaraho, mudasobwa ndetse n'ibyuma byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda kiryamishwaho abarwayi bavurwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa hatangwa ubuvuzi bukenewe ku murwayi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi wicaye ku ntebe, umurwayi ari kwereka umuganga iryinyo rifite ikibazo, ndetse umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, afite amabara menshi y'amenyo, arimo kumwereka kugira ngo arebe ibara rihura niry'amenyo ye.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo butandukanye, ni icyumba gifite ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura amenyo, hari utubati tubikwamo ibikoresho ndetse hakaba hari n'isaha ku rukuta.

Umurwayi uri kumwe n'abaganga babiri, arimo aravurwa indwara y'amenyo, umuganga wambaye amadarubindi, agapfukamunwa k'ubururu afite n'ibikoresho ari kwifashisha avura uwo murwayi ikibazo cy'amenyo.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi bishimye baseka, arimo aramwereka ibara ry'amenyo, umuganga yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse akaba anafite akantu mu ntoki karimo amabara menshi atandukanye y'amenyo.

Umusaza wambaye amadarubindi usheshe imvi ku mutwe ndetse ari kumwe n'umukecuru, bari gukina umukino ku meza aho bicaye baseka bishimye bafite akanyamuneza ku maso.

Umusaza ugeze mu za bukuru yicaye mu kagare gatwara abarwayi, ari kumwe n'umukobwa urimo kumwitaho ndetse anamuhumuriza amuhereza icyizere cy'ejo hazaza.

Umugabo n'umugore bari mu myaka yagiye hejuru y'izabukuru, bafatanye urunana, aho bari kwerekana y'uko bagikundanye, urukundo rwabo rukiri rwiza nk'uko rwahoze mu bwangavu ndetse no mu busore bwabo.

Umukecuru uri mu za bukuru ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze mu ruziga rukoresheje ibiti akaba yambaye umwitero, agapira k'ubururu ndetse n'urunigi mu ijosi, hafi aho inyuma ye hakaba hari inyubako ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibinyabiziga bibiri by'imodoka bihaparitse.

Umubyeyi uri mu za bukuru wambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amadarubindi, yicaye imbere y'ameza afite imiti, hari ibinini biri ku meza binyanyagiye, akaba yicaye mu nzu, inyuma ye hakaba hari amadirishya ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Abagabo n'abagore bafite akanyamuneza ku maso, imbere yabo hari ibikoresho nk'utugare byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ubumuga. Ndetse n'ibindi bikoresho bindi byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ubumuga, yaba ubwo kugenda ndetse n'ubundi bw'ingingo, bishimye bakoma amashyi bagaragaza ko bishimiye ibikoresho babonye.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we; umubyeyi arimo arakinisha umwana we bizihiranye. Umwana afite igikinisho mu kaboko ke k'iburyo, naho umubyeyi arahumirije arimo aramukinisha.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, umuganga wambaye impuzankano y'umweru ufite stethoscope mu ijosi, arimo yereka umurwayi indwara arwaye ndetse n'uko agiye kumuvura. Imbere yabo hari ameza ateretseho ikayi ndetse n'ikaramu.

Umumama ugeze mu zabukuru uri guseka afite akanyamuneza mu maso arimo gukora imyitozo ngororamubiri, mu kaboko k'ibumoso harimo icyuma cyo guterura, inyuma ye hari abandi barimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri nabo bafite ibyuma byo guterura mu ntoki.

Umugore n'umugabo bizihiwe, barimo baraganira baseka ari nako bafata ifunguro rya mu gitondo. Ni ifunguro ryiganjemo imboga ndetse n'imbuto, bakaba barimo bararifatisha n'amazi ari mu kirahure giteretse ku meza.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu bwererutse, ari kumwe n'umurwayi wicaye mu kagare kagenderwamo n'abarwayi bafite ikibazo cyo kutagenda cyangwa se ikindi kibazo cy'ingingo, aho bishimye barimo baraseka.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru, wicaye ku ntebe, wambaye ingofero mu mutwe. Ari iruhande rw'undi mumama ukikiye umwana. Bakaba baragaragiwe n'abana bishimye, bari guseka, bafite akanyamuneza ku maso.

Umubyeyi uri mu zabukuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara umupira w'ubururu ndetse arambuye akaguru imbere, amaboko ye yombi akaba ari kuyakoza ku mano, inyuma ye hari indabo ziri mu nzu itara ndetse n'intebe z'imisego.

Umusaza uri mu zabukuru wambaye amadarubindi, ishati y'iroza, afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu. Ari gusoma igitabo cyirimo imikino yibanda ku gutekereza neza ndetse icyumba arimo gifite amadirishya manini y'ibirahure byinjiza urumuri.

Umuganga wicaye ku ntebe, wambaye agapfukamunwa ndetse ufite n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse no gupima indwara zitandukanye, ari kumwe n'umubyeyi aho arimo kumupima indwara.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, imbere y'umuganga hari mudasobwa. Hari umurwayi ufite imiti mu ntoki ndetse n'indi iteretse imbere ye ku meza ndetse n'impapuro zo kwa muganga. Arimo arasobanurirwa uko imiti yahawe ikoreshwa n'uko azajya ayifata.

Umuma uri mu za bukuru wicaye mu kagare gatwara abarwayi, ari kumwe n'umuganga aho bizihiwe mu gihe umuganga yarimo afata ibipimo by'umutima.

Umuganga wambaye stethoscope mu ijosi, yambaye impuzankano z'ubururu, ari kumwe n'umubyeyi ugeze mu zabukuru, ufite ikirahuri cy'amazi, umuganga ari kumuhereza imiti, hari udukarito tubiri turambitse ku meza ari imbere yabo.

Umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ari kumwe n'umu mama ufite imyaka yigiye hejuru ugeze mu za bukuru, akaba yambaye imyenda y'iroza, amadarubindi ndetse yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, bakaba baganira baseka bafite akanyamuneza ku maso.

Ifunguro rigizwe n'imboga ndetse n'imbuto, ni ifunguro ridufasha mu kugira ubuzima bwiza. Umumama urimo urarya imboga n'imbuto yizihiwe kugira ngo azabashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'ejo hazaza.

Abasaza babiri bahagararanye, umwe yambaye ishati y'umweru, ingofero y'ikigina, umwitero w'umukara ndetse akaba arimo gukoma amashyi, undi begeranye yambaye umwitero w'umweru, amadarubindi ndetse n'ingofero y'umukara.

Umusaza usheshe imvi, ufite ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri mu ntoki biri mu ibara ry'umutuku, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru, arimo aragenda atambuka gake gake, ari kumwe n'umuganga urimo kumufasha gutambuka, aho afite igikoresho kimufasha kugenda atera intambwe nto ndetse kugeza ageze aho agiye.

Umuryango w'umusaza n'umukecuru bicaye imbere y'ameza, umusaza yambaye umupira w'ibara ry'ubururu na ho umukecuru yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku ndetse bakaba banafite ibinini biri imbere yabo binyanyagiye ku meza.

Umugabo usheshe imvi mu mutwe, wambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku, umupira imbere y'ishati. Ku meza ye hari amasahani abiri, hateretse igikombe cy'amazi, mu kaboko ke k'ibumoso hari isorori ari gukoresha yarura imboga ndetse n'imbuto ku isahani agiye guhereza umugore we.

Umuryango w'abana babiri ndetse n'umubyeyi wabo, bishimye baseka barimo gufata ibya mu mugitondo, ni umuhungu ndetse n'umukobwa, umuhungu wambaye umupira utukura ndetse umukobwa wambaye usa n'umweru, umuhungu afite isahani iriho umugati, umukobwa ari kumufasha kwarura ibyo kurya.

Abamama babiri bageze mu zabukuru, bizihiwe barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ituma umubiri udasaza ndetse ukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umudamu wicaye mu ntebe ufite indangururamajwi mu ntoki, ufite ibitabo ndetse wambaye n'ibimuranga. Ari gutanga amahugurwa ku bigendanye n'abangavu batwita inda imburagihe.

Umuganga wambaye impuzankano y'umutuku, ari ku meza ariho indangururamajwi ebyiri udukarito tw'imiti, ari kumwe n'umukobwa aho arimo ku mupima indwara zitandukanye ku kaboko ke k'ibumoso.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ufite n'urushinge, arimo gutera umurwayi wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'ubururu urushinge ku kaboko ke k'ibumoso.

Ibimenyetso by'indwara ya Diyabete. Diyabete ni indwara igaragaza ibimenyetso byo guhorana inyota, gushaka kujya kwihagarika inshuro nyinshi, kutareba neza, kumva urushye ndetse no gutakaza ibiro bya hato na hato.

Madame Nyakubahwa Jeannette Kagame ari gutanga imbwirwaruhame. Imbere ye, hari indangururamajwi ebyiri, akaba atanga ubutumwa agira ati: "Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi, kandi ko nta buzima bwuzuye bushoboka hatitawe ku buzima bwo mu mutwe."

Umuhanzi Mico the Best, ari kumwe n'umukozi w'Urwego rw'Ubuzima RBC, aho bafite icyapa gitanga ubutumwa bugira buti: " Twisuzumishe igituntu, kiravurwa kandi kigakira."

Abagabo babiri bahagaze, bari imbere y'igikuta cy'umweru kiriho ibirangantego bya Minisiteri y'ubuzima. Buri umwe afite inyandiko mu ntoki ndetse bakaba bahanye ibiganza barimo basuhuzanya.

Igikorwa cy'imbonankubone kiza kuyoborwa n'abantu batanu. Kivuga yuko nta muntu ugomba gusigara inyuma mu buvuzi ndetse yaba atuye mu cyaro. Ni ubuvuzi hose mu cyaro kandi ntawe usigaye inyuma.

Ababyeyi bane bicaye ku ntebe bategererezaho bizihiwe bateruye abana babo, aho bicaye hari ibirango by'uko havurirwa abana, bigaragare ko baje kuvuza abana.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu, utunozasuku mu mutwe, udupfukamunwa, uturindantoki, bari kumwe n'umusaza wambaye imyenda y'umukara, yicaye ku ntebe ndetse yambaye n'ingofero y'ubururu, ari guhabwa ubuvuzi bugendanye n'amenyo.

Abaganga bambaye impuzankano ndetse n'ibibaranga, bari ku meza ariho imiti ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu kuvura abarwayi, aho barimo kuvura abarwayi batandukanye.

Igifuniko cya Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC, gikubiyeho amabwiriza y'ibanze atandatu, agaragaza uburyo ushobora kuba wakirindamo icyorezo cya Korona virusi cumi n'icyenda.

Abaganga babiri bari kumwe n'ababafasha, bari kwita ku murwayi uryamye ku ngobyi y'abarwayi, bari kumuha ubuvuzi bw'ibanze, aho bafite imiti ndetse n'ubundi buvuzi bw'ibanze yakenera muri ako kanya.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu, uturindantoki ndetse bakaba

Inama mpuzamahanga yabereye mu Rwanda muw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri, igamije kwiga ku kibazo cy'ubuvuzi rusange muri Afurika. Umugabo arimo aratanga imbwirwaruhame, iruhande rwe hari insakazamashusho irimo irerekana ibyo avuga.

Abagabo batanu ndetse n'abagore babiri, batatu muri bo bafite uruhu rwera ndetse babiri ni abagore, umwe ni umugabo, abandi bagabo bane basigaye ni abirabura, bose uko bangana bambaye ibibaranga mu ijosi.

Indwara zitandura, ni indwara zifata imyanya mpumekero cyangwa se ibindi bice by'umubiri ariko umuntu akaba atazikwanduza binyuze mu busabane, gusangira se cyangwa n'ibindi bikorwa byabahuza.

Ni ikirango kiri mu ishusho y'uruziga kigizwe n'amabara menshi atandukanye, icyo kirango kirimo ikarita y'u Rwanda, amabara agize iki kirango ni ubururu, umweru ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Umuganga urimo kuvura umwana amutera urukingo rw'indwara y'umuriro ukabije ya Yellow Fever. Ni urukingo rutangwa ku ngeri zose. Kuva ku mwana ufite umwaka umwe ndetse kuzamura kugeza ku mugabo cyangwa se umugore uri hejuru y'imyaka mirongo itanu.

Abarwayi babiri bari mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi aho baryamye ku bitanda. Ibitanda biryamishwaho abarwayi bakeneye serivise z'umwihariko zitangwa n'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima, icyo cyumba kigizwe n'ibikoresho bifite insakazamashusho ndetse n'ibindi bikoresho bindi byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, ku nkuta hakaba hari imitako igize icyo cyumba.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti buzwi nka farumasi, irimo imiti y'ubwoko bwose butandukanye, irimo utubati turimo imiti, harimo n'intebe zicaraho abakiriya baje bazigana.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ni icyumba kirimo imashini nini yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima. Harimo umuganga uri gukoresha iyo mashini, imashini nini y'umweru n'ubururu inafite insakazamashusho ku mpande zombi yaba iburyo ndetse n'ibumoso.

Inzu y'ababyeyi materinite. Imbere y'iyi nzu, hakaba hari abantu bari kuganira. Bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro. Bambaye imyambaro y'ubururu, hari n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'ikoti ry'umukara uri kureba muri terefone.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa k'umukara, afite mudasobwa imbere ye, ndetse ari mu cyumba kirimo ibikoresho bindi by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, iki cyumba harimo intebe z'ubururu zifite amapine zikururwa ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi.

Icyumba kirimo imiti n'inshinge byo kwa muganga, byifashishwa mu kurinda ndetse no kuvura abarwayi, hari imiti iri mu ngano zitandukanye, ndetse iri no mu mabara atandukanye, ubururu, icyatsi ndetse n'andi.

Isangano ry'umuhanda ririmo ababyeyi babiri barimo barambuka umuhanda. Umubyeyi umwe muri bo afite umutaka atwikiriye umwana. Hari inyubako zikikije iryo sangano, aho izo nyubako imbere yaho haparitse ibinyabiziga bitatu.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo ibyuma byinshi bitandukanye, harimo matera y'umutuku iryamwaho mu gihe ari gukorwa imyitozo ngororamubiri, imipira yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri iri mu mabara atandukanye, umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'andi mabara. Hakaba hari n'imbaho zo kuzamukiraho.

Inyubako yubakishijwe amabuye, ifite idirishya ryakirirwamo abandi, imbere yayo hari abantu bahagaze, ndetse ikaba ifite n'ubusitani imbere yayo, burimo indabo nziza z'ubwoko bwose.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho, isaha ndetse n'imitako iri ku gikuta, hari insakazamashusho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Pediatric Specialty Clinic ni ibitaro bivura ariko bibanda ku bana cyane. Havurwa iseru ndetse n'izindi ndwara zikunze kwibasira abana bakiri bato kandi bakaba bavura abana kuva bakivuka kugeza mu bwangavu bwabo cyangwa se mu bugimbi.

Umuganga wicaye ku ntebe ufite ameza imbere ye ariho ibikoresho, yaba ibyifashishwa mu kuvura ndetse no gupima indwara zitandukanye. Uwo muganga yambaye impuzankano ya RBC akaba ari kumwe n'umugabo wundi arimo arapima indwara y'umutima.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri, Rwanda cansa senta ni inyubako ifite ubusitani bunini buteyemo indabo, hakaba hari n'umusirikare wambaye impuzankano urimo uratambuka imbere y'iyo nyubako.

Icyumba cy'ibitaro cyifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi, kirimo ibitanda biri mu ibara ry'umweru ndetse na matela ziri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi, iki cyumba kandi kikaba kirimo n'insakazamashusho.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, ndetse harimo umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu, ari kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda, aho arimo aramuha serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba cyifashishwa mu kuvura abarwayi, gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima gifite akabati kabikwamo ibikoresho imashini nini y'ubuvuzi igezweho yifashishwa mu gufotora imbere mu mubiri, iri mu cyumba gifite isuku nyinshi hari indobo y'umuhondo iri ahongaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi ziteye ku murongo umwe, ni icyumba kirimo abantu benshi batandukanye bicaye kuri izo ntebe, bahanze amaso insakazamashusho ibari imbere.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari amacupa y'ubururu afite ibyuma by'ikoranabuhanga bibifunze ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho bindi byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba kinini gifite igisenge cy'umuhondo, ndetse n'amatara y'ibara ry'umweru, ni icyumba kirimo intebe zitandukanye, intebe z'ubururu, izikoze mu biti zifite imisego y'umuhondo, ndetse hafi aho hakaba hari n'indabo ziteye ku ruhande rw'aho intebe ziteretse.

Inyubako nziza iri ahirengeye yubatse neza iri mu mabara y'ivu inafite ibirahure bigaragara inyuma. Ifite ubusitani bwiza imbere yayo buteyemo ibiti byinshi by'ubwoko bwose. Imbere yayo hakaba hari n'utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru.

Igice cy'ibitaro cyakira abarwayi batandukanye batarara kwa muganga, ni igice abarwayi bagana baje kwiyandikisha, guhabwa imiti cyangwa se kubonana n'abaganga kugira ngo babaganirize ibibazo byabo bitandukanye.

Inyubako nziza yubatse ahirengeye habereye ubukerarugendo. Ni inyubako nziza, ifite amatafari y'ibara ry'izahabu ndetse ikaba ifite ubusitani hanze, burimo indabo z'ubwoko butandukanye, aho umuntu wese yakwifuza kuhagera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, gifite inkuta z'umuhondo ndetse kikanagira imitako iri ku gikuta, gifite utubati tubikwamo ibikoresho byo kwa muganga ndetse kikaba kinafite intebe zo kwicaraho, igitanda kiryamishwaho abarwayi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ni inyubako ifite inzugi z'umweru, inyubako iri kuri kaburimbo ikaba ifite icyapa kinini cy'umweru hejuru yayo ndetse icyo cyapa kikaba kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ni inyubako yubatse ahirengeye mu misozi, ni inyubako yubakishije amabuye, ni inyubako ifite ubusitani imbere yayo, ndetse ikaba hari n'abantu bari kugenda mu tuyira tugize iyi nyubako.

Icyumba k'ibitaro kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi, insakazamashusho, ibitanda, intebe ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho byo kwa muganga.

Inyubako itangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye zigendanye n'ubuvuzi. Wahahiramo ibikoresho by'ubwoko bwose, yaba ibikoresho by'isuku, ibikoresho by'abana n'ababyeyi ndetse n'ibindi bikoresho wakifashisha mu buvuzi yaba imiti ndetse n'ibindi.

Inyubako iteye irange ry'umweru, amabati ni umutuku, ikaba ifite ibirango ndetse ikaba ifite n'ibirinda inkongi y'umuriro. Ifite utuyira tw'abanyamaguru imbere yayo n'ubusitani imbere buteyemo indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri, ni icyumba gifite ibikoresho bitandukanye, yaba ibikoresho byo guterura, ibyo kwirukankiraraho, ndetse n'ibindi bikoresho byagufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, imbere y'iki cyumba hakaba hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiti, buteye imbere y'iyi nyubako.

Urujya n'uruza rw'abantu ni rwose ku marembo y'ibitaro, hari ushinzwe umutekano ufite impapuro mu ntoki, hari abantu bari kugenda imbere mu kigo ndetse n'imodoka ziparitse imbere y'inyubako ku ruhande rw'ibumoso, hari ibyapa binini biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi buriho serivisi zitangwa n'ibi bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ububiko bw'amaraso, aya maraso akaba atangwa ku murwayi uyakeneye, mu gihe yahuye n'ikibazo cyo kubura amaraso kandi arwaye.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, afite sitetisikope mu ijosi yifashishwa mu gupima abarwayi, afite ikaye mu ntoki ze zombi, iruhande rwe hari inyubako, hakaba hari n'umwana wambaye umupira w'ubururu.

Icyumba kirimo ingeri zose abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye imyambaro y'umuhondo, buri wese iruhande rwe akaba afite icupa ry'amazi.

Isangano ry'umuhanda rikikijwe n'ibikorwa remezo nk'amazu, ayo mazu imbere yayo haparitse ibinyabiziga bitandukanye ndetse hari n'abantu bahahagaze, hari icyapa cy'ibitaro bya kaminuza bya CHUB.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ni icyumba kigizwe n'ibikoresho byinshi: intebe, amatara, igitanda kiryamishwaho abarwayi, imitako igize iki cyumba ndetse insakaza amashusho riyirimo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imiti, izwi nka farumasi, harimo imiti itandukanye, akabati gateretsemo imiti, ndetse ubwoko bwose bw'imiti wabusangamo hano.

Inyubako y'ibitaro porikirinike deretwari, ni inyubako y'amagorofa atatu, imbere yayo hari ibinyabiziga biparitse by'imodoka, hari igiti kiri imbere yayo ikaba inafite ibyapa biranga iyi nyubako hejuru yayo.

Icyumba cy'inyubako kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bikoresho hakaba harimo: ibyo kwirukankiraho, ibyo guterura ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge, ibitaro bya Nyarugenge ni bimwe mu bitaro byakira abaturage benshi, baje kwivuza indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi.

Umuganga uri mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, imbere ye hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho.

Umusore uryamye kwa muganga. Afite akanyamuneza ndetse n'inseko ku maso, aho aryamye impande ye, hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi ndetse no kuvura abarwayi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, uri kumwe n'umugabo witeze igitambaro mu mutwe. Bari kumwe n'umwana wambaye ubusa hejuru, akaba yicaye ku gitanda. Umuganga arimo aramupima indwara zitandukanye, bombi bishimye baseka.

Ibyuma byifashishwa mu gukora siporo zitandukanye ngororamubiri, biri mu cyumba kirimo amadirishya manini y'ibirahure abonerana, isaha imanitse ku gikuta, ibi byuma biri mu bwoko butandukanye ndetse yaba ibyo guterura ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu mberabyombi ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ni inzu irimo intebe nyinshi ziri ku murongo ndetse zinafite n'indangururamajwi, imbere y'izo ntebe hari imeza y'umweru iziteretse imbere.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye, harimo abaganga bambaye impuzankano z'umweru banambaye uturindantoki, baricaye abandi barahagaze, harimo n'utubati turimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako y'ikigo Ircard Africa, ni ikigo gitanga serivise z'ubuvuzi hifashishijwe imirasire cyangwa se kubaga udakase cyane, ni ikigo cyatangiye ku itariki ya karindwi, ukwakira, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, kikaba kiri i Kigali mu Rwanda, gifite inyubako nziza zibereye amaso, aho gifite n'ubusitani hanze buteyemo indabo nziza.

Icyumba kinini cyahuriyemo abantu ingeri zose abagabo, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru, imbere yabo hakaba hari abagabo batatu, babiri muri bo bicaye imbere ku ntebe ndetse banafite ameza ariho ibitabo n'amakayi, hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara ari gutanga imbwirwaruhame.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ameza n'intebe iburyo ndetse n'ibumoso, ni icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku bigendanye n'ubuvuzi ndetse n'imiti.

Iyi nyubako iriho ibirango by'urwego rushinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Inyubako ifite imodoka imbere eshatu ndetse n'abantu bahagaze imbere y'iyo nyubako.

Icyumba k'ibitaro gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa impuzangano ndetse afite umuti mu ntoki, mu kaboko ke k'iburyo arimo aragakoresha muri mudasobwa yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara ahagaze imbere y'abantu arimo aratanga imbwirwaruhame, abamwicaye impande bafite amacupa y'amazi ku meza yabo, mudasobwa ndetse n'amakayi n'amakaramu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo ibikoresho, abaganga ndetse ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuba byakunganira abaganga mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Icyumba ckifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha mu gukora siporo, intebe z'imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikoresho byakifashishwa mu gukora imyitozo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye. Harimo amakarito y'imiti, ibikoresho bindi byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'imashini za gihanga zifashishwa mu gupima indwara abarwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima. Ni icyumba kirimo ibikoresho nk'insakazamashusho, ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura, igitanda kiryamishwaho abarwayi ndetse n'utubati twifashishwa mu kubika ibikoresho.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga iki cyumba kikaba kivurirwamo abarwayi b'ingeri zose ndetse barwaye indwara zitandukanye ibi bikoresho by'ikoranabuhanga nabyo bikaba byifashishwa mu kuvura izo ndwara ndetse bikaba bikoreshwa n'abaganga ba gihanga.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni inyubako igeretse inshuro ebyiri, ni inyubako ifite ubusitani buteyemo indabo imbere yayo ndetse hakaba hari n'abantu bahagaze imbere y'iyi nyubako baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Irembo rinini ry'ibitaro bya nyanza. Ni irembo rifite igipangu cy'ubururu, imbere muri icyo gipangu harimo inyubako ndetse izo nyubako zikaba zikikijwe n'ubusitani burimo ibiti birebire. Imbere y'iryo rembo, hakaba hari n'icyapa kiriho ibirango by'igihugu, ikirango cy'urwego rushinzwe ubugenzacyaha ndetse na isange wani sitopu senta.

Icyumba cy'ubuvuzi gitangirwamo serivisi zitandukanye. Ni icyumba kirimo abantu batanu, batatu muri bo, ni abaganga. Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe. Umugabo yicaye ku ntebe ndetse imbere ye hari ameza, afite ikaye n'ikaramu arimo arandika. Umuganga umwe, afite ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara abarwayi, akaba arimo arapima umurwayi indwara.

Icyumba cy'ibitaro gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hari umuganga wambaye imyenda y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, ari kumwe n'umurwayi wicaye mu kagare k'abamugaye, ndetse n'abandi baganga bari gutanga serivisi z'ubuvuzi, hari ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu kuvura.

Inyubako y'ibitaro, inzu y'ababyeyi materinete, ni inyubako ifite inkuta ziteye irangi ry'umweru, igisenge kigizwe n'amabati y'ubururu hakaba hari n'ibiti byinshi biyikikije.

Abagore babiri, bicaye ku ntebe bari kumwe n'umuganga, ni umuganga urimo urabapima indwara zitandukanye, abapima uko umutima utera ndetse akanababwira n'uko bagomba kwitwara kugira ngo batazarwara indwara z'umutima.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo imashini nini ikoreshwa mu kuvura abarwayi, ifite uruziga rw'ubururu ndetse n'umweru, hari uburiri buryamishwaho abarwayi bufite n'umusego, inkuta z'umukara, hakaba harimo na kamera zifashishwa mu gufata amashusho.

Icyumba cya laboratwari cyifashishwa mu gukora ubushakashatsi cyangwa se ibindi bintu byisumbuyeho bigendanye n'ubuvuzi, ni icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye byibanda ku bushakashatsi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, hifashishijwe imashini za gihanga zabugenewe. Hari imashini iterekwaho umurwayi, hakaba intebe zicarwaho n'abaganga ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kuvura umurwayi.

Icyumba kirimo uburyamo buramirizwaho abarwayi bakeneye kurara kwa muganga bitewe n'ibibazo by'uburwayi ndetse n'abandi bafite ibibazo bikenewe kwitabwaho by'umwihariko. Ni icyumba kirimo utubati two kubikaho ibintu ndetse kikaba kinafite matera z'icyatsi kuri ibyo bitanda.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo gitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye. Ni ikigo nderabuzima aho abakigana bataha banyuzwe na serivisi bahawe, gitanga serivisi zinyuranye, ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe ndetse n'ubundi burwayi.

Inyubako iri ahirengeye ikikijwe n'amashyamba ndetse n'ibiti. Inyubako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, ifite abantu bayihagaze imbere bavuye kuvoma ndetse n'abandi bari kugenda mu tuyira duyikikije, inafite ibirango by'igihugu imbere yayo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, insakazamashusho, isaha iri ku gikuta ndetse kikaba kirimo n'abantu benshi, hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kuganira n'umuganga hari undi wicaye ku ntebe wambaye ingofero y'umukara umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umuhondo imbere ye hari ameza ateretseho indabo.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'umweru, ni inyubako ifite amadirishya menshi ndetse n'imiryango, ni inyubako ifite amatara ku ruhande ari mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa uri kwa muganga uryamye ku gitanda kiryamishwaho abarwayi, ari kumwe n'umuganga urimo kumuvura, ndetse akaba ari kumwe n'uwamuherekeje kwivuza kwa muganga.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'icyatsi ari kumwe n'umuganga, bafite ibikoresho bikoreshwa mu kuvura amenyo aho arimo aramwereka uko agomba kuzajya yoza amenyo ye neza akayagirira isuku akoresheje uburoso bwoza amenyo.

Inyubako y'ibitaro itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi, irimo ibitanda byinshi buri gitanda gifite rido gitandukanye, ni abarwayi badataha baguma kwa muganga, hari abashinzwe gukora amasuku hafi aho ngaho bahagaze barimo gukora amasuku.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'isaha, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura abarwayi, ibi bitanda bikaba biryamishwaho abarwayi bafite uburwayi bwihariye, bakeneye kwitabwaho by'umwihariko.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima. Hari intebe z'umuhondo zicarwaho n'umurwayi, impande yazo hakaba hari imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi. Hakaba ndetse hari n'utubati dushyirwamo ibikoresho byo kwa muganga.

Inyubako nziza, iri mu mabara menshi atandukanye, higanjemo amabara y'ubururu. Ni inyubako ifite ubusitani buteyemo indabo impande yayo. Imbere y'iyi nyubako ndetse no mu mpande, hakaba hari abantu bayikikije ndetse hakaba hari n'imodoka iparitse imbere y'iyi nyubako.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, afite ibikoresho by'ubuvuzi, aho arimo aragenda apima ibintu bigiye bitandukanye, akoresheje ugutwi.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe giherereye mu karere ka Nyagatare. Ni ikigo nderabuzima giterwa inkunga n'Imbuto Foundation, aho abaturage bakigana, banyurwa na serivisi iki kigo gitanga z'ubuvuzi zigiye zinyuranye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bitandukanye, iki ni icyumba kiryamishwamo abarwayi barembye cyangwa se abarwayi bakeneye kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko n'abaganga.

Ikigo nderabuzima cya Gihundwe, gitanga serivisi z'ubuzima zitandukanye ndetse kikaba kinatanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso. Iyi ni inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso.

Abantu batanu bahagaze imbere y'inyubako. Bane muri bo ni abagore ndetse harimo n'umugabo umwe. Iyo nyubako ikaba ifite icyapa cyerekana ko ari inzu ikorerwamo ubushakashatsi. Bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bizihiwe.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi, icyo cyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga igitanda, intebe, utubati, kirimo imitako itandukanye aho bakarabira, insakazamashusho byose byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Kabgayi ni ikigo nderabuzima gitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye ku baturage baturiye iki kigo nderabuzima, gitanga serivisi z'ubuvuzi nk'amaso ndetse n'izindi ndwara.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, amatara ndetse n'imashini zikoreshwa mu kubaga ndetse no gupima n'ibindi bikoresho byifashishwa havurwa abarwayi.

Icyumba k'ibitaro kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku barwayi barara kwa muganga ndetse n'abakeneye ubuvuzi bw'ibanze bwo kwitabwaho cyane. Buri gitanda gifite inzitiramubu harimo ndetse n'abaganga bari kugenda bafasha abarwayi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amaso. Ni icyumba kirimo igikuta kinini, gishushanyijeho igice cy'ijisho. Gikozwe mu bice bice. Aho ibyo bice birimo guteranywa n'ibindi, hikoreshejwe ibyuma bya muganga. Mu cyumba hariho intebe z'ibyuma ziteretse ku murongo, zicarwaho n'abarwayi bategereje ko bahabwa serivise z'ubuvuzi.

Inyubako y'ibitaro LA CROIX DU SUD, ni ibitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aho abagana ibi bitaro babishimira serivisi nziza batanga, imbere y'iyi nyubako, haparitse imodoka nyinshi zaje zigana ibi bitaro.

Icyumba cy'ibitaro kirimo abaganga batatu bambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'udupfukamuwa. Harimo ibitanda byinshi, ndetse buri gitanda hejuru yacyo gifite inzitiramubu. Imbere y'igitanda na none hakaba hari amadirishya akikijwe n'amarido.

Icyumba cy'inzu kirimo ibikoresho byinshi binyuranye, ibyo bikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri. Muri ibyo bikoresho harimo ibikoresho byo guterura, harimo ibyuma byo kwirukankiraho ndetse n'ubundi bwoko butandukanye bw'ibyuma bwagufasha gukora siporo neza.

Abayobozi b'ibitaro bya Butaro, bafashe ifoto y'urwibutso n'abashyitsi bari babasuye, biganjemo ab'uruhu rwera, ni ifoto yafatiwe imbere y'ibitaro aho hari ikirango cy'ibitaro bya Butaro.

Icyumba kirimo akabati kabikwamo imiti itandukanye, ni imiti y'ubwoko bwose yifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'indwara zitandukanye, ni imiti iri mu ngano zitandukanye, ndetse iri no mu mabara atandukanye.

Inyubako y'ababyeyi ndetse n'impinja. Ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku babyeyi ndetse n'abana, hari abantu bari imbere y'iyi nyubako ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga biparitse imbere y'iyi nzu y'ababyeyi ndetse n'impinja.

Icyumba cy'ubuvuzi gikorerwamo ubuvuzi bw'amaso, ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bikoreshwa mu kuvura amaso. Hari n'igishushanyo kigaragaza amaso.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibyuma byifashishwa mu gutanga ubuvuzi butandukanye bugendeye ku ikoranabuhanga. Ni icyumba kirimo isaha ku gikuta ndetse n'icyuma kinyuzwamo abarwayi. Hakaba hari isakazamashusho iri kuri icyo cyuma.

Icyumba kirimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, kirimo intebe n'ameza, hakaba hari intebe zikoresheje ibiti, iziri mu bwoko bw'ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho bindi byo mu nzu bitandukanye biri muri iki cyumba.

Inzu nziza iri mu mabara y'ivu ifite ubusitani imbere ndetse n'inyuma, n'utuyira tw'abanyamaguru bagendamo. Ni ubusitani burimo indabo nyinshi z'ubwoko bwose, hakaba hari abantu bari kubugendamo. Umubyeyi uri kumwe n'umwana, ndetse n'undi mwana uri imbere yabo uri gutambuka mu kayira ufite ibase mu ntoki.

Inyubako y'amagorofa ane ifite ibigega by'amazi hejuru yayo, ikaba ifite ibyuma by'iminara nabyo biri hejuru yayo, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi ndetse hakaba hari n'imodoka imwe iri gusohoka iva kuri iyo nyubako.

Inyubako ifite inkuta ziteye amabara atandukanye, harimo ibara ry'ubururu. Ifite abantu bayihagaze imbere barimo kuganira, ndetse hakaba hari n'ikinyabiziga kiyiparitse imbere. Ifite indabo ndetse n'ubusitani hafi yayo.

Icyumba k'ibitaro kirimo ibikoresho bitandukanye, kiramirizwamo abarwayi bakeneye kwitabwaho n'abaganga mu buryo bw'umwihariko, hari umuganga urimo kuzingira umurwayi inzitiramibu, ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda.

Aho bakirira abagana ikigo nderabuzima. Hateraniye abantu benshi b'ingeri zose, abana ndetse n'abakuru. Hari ababyeyi bahetse abana ndetse n'abandi bategereje guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Inyubako ifite irangi ry'umuhondo, hakaba hari abantu bayiri imbere, hakaba hari n'icyapa, icy'umweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, imbere y'iyo nyubako hakaba hari imodoka iparitse ikaba iri mu bwoko bw'ibara ry'ivu.

Icyumba cy'ibitaro, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Harimo icyuma cyifashishwa mu gukora siporo, gifasha umuntu kwiruka. Harimo mudasobwa, igitanda kiriho ishuka y'umweru, ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Igikinisho cy'akanyamasyo kiri mu cyumba kinini, kirimo intebe nyinshi z'amabara atandukanye, harimo ubururu, ubururu bwerurutse, umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara.

Umubyeyi uhagaze imbere y'umwana we uririmo apimwa ibiro ku munzani, hafi aho hari abandi babyeyi bamugaragiye na bo baje gupimisha abana babo ibiro hitabwa ku kureba imikurire y'abana.

Ibyuma by'amabara abiri ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'icyatsi, iminyururu ifashe intebe zo kwicaraho abenshi bakunda kwita ibyicungo, ibi ngibi bikaba bikunda gushimisha abana cyane kuko ariho barira umunyenga.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, ni inyubako iri mu mabara y'umuhondo, amabati y'ubururu bwerurutse, abantu babiri bakuze bari imbere yayo bicaranye n'abana babiri, hakaba hari ndetse n'indobo ishyirwamo imyanda imbere y'iyi nyubako.

Inyubako y'ibitaro irimo ibitanda bitandukanye birabirizwaho abarwayi barara kwa muganga bakeneye kwitabwaho by'umwihariko n'abaganga. Ni icyumba kirimo amarido ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no gutanga ubuvuzi.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se materinite. Imbere y'inzu y'ababyeyi hari abantu ingeri zose, hari abaganga, ababyaza, hari abashinzwe umutekano, hari musenyeri ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, hari n'abihayimana.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti buzwi nka farumasi, iherereye i Remera mu Karere ka Gasabo, Umujyi wa Kigal. Imbere yiyi nyubako hakaba hari indabo ziteye amabengeza, ndetse hakaba hanaparitse ikinyabiziga cy'imodoka gifite ibara ry'ubururu.

Laboratwari itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, irimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga izo serivisi z'ubuvuzi, intebe, igitanda kiriho ishuka y'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho birimo amatara ndetse n'ibindi byakwifashishwa mu gutanga serivisi inoze y'ubuzima.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, yambaye uturindantoki tw'ubururu, agapfukamunwa ndetse ari ku meza ariho mudasobwa ndetse n'amakayi n'amakaramu.

Ingobyi ihekwaho abarwayi bagize ikibazo bakeneye ubutabazi bw'ibanze, ikaba ikoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi hashobora kuba hakenerwa iyo ngobyi, ni ingobyi iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi butandukanye. Iyi miti iri mu ngano zitandukanye, hari imiti iri mu kigero cyo hejuru, ikiringaniye ndetse n'ikigero cyo hasi. Iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura cyangwa se mu kugabanya uburibwe umuntu aba arimo aragira byatewe n'indwara runaka.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ziri mu ibara ry'umutuku. Afite ibikoresho by'ikoranabuhanga ku kaboko ke k'ibumoso, ndetse akaba anafite icupa ry'amazi riteretse imbere ye. Arambuye akaguru ke, aho agenda agakoraho akarambura ndetse arambura imitsi y'amaguru ndetse n'amaboko.

Amazi ni meza, amazi ni ubuzima. Amazi ni ingirakamaro kuri twese, aho byibuze buri muntu aba akwiye kunywa litiro ebyiri ku munsi. Umugabo arimo aranywa amazi, ayanywera mu icupa ry'umweru.

Umusore wakoze imyitozo ngororamubiri, umusore w'igikwerere ni umusore ushinguye ufite ibirango biri mu mabara abiri, hari ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu bwererutse bishushanyije ku mubiri.

Umusore wicaye hasi, uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, yicaye hasi yarambuye akaguru kamwe imbere ndetse amaboko ye yombi ayakoza kuri ako kaguru yarambuye, aho yicaye hakaba hari ibyatsi bimukikije ndetse n'indabo.

Umusore wicaye ku ntebe, wambaye ikabutura y'umukara, afite agasashe k'umweru n'ubururu karimo ubukonje, yagashyize ku ivi rye, aho arimo aravura ububabare akoresheje ubukonje.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zitandukanye, kirimo ibikoresho byinshi; imashini kabuhariwe zikoreshwa mu kuvura abarwayi, ibitanda, amatara ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Igikapu cy'umutuku ndetse n'umukara, kirimo imiti myinshi itandukanye y'ubwoko bwinshi, harimo imiti iri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, akaba ari imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Siporo ni ingenzi mu buzima, umukobwa wambaye umupira w'ubururu urimo n'andi mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, mu kaboko ke k'iburyo afitemo icupa ry'amazi rifite amabara y'umweru n'ubururu aho ari kunywa amazi, ku bitugu akaba afite igitambaro cy'amazi.

Umusore wicaye hasi mu busitani, urimo urakora siporo. Ari kugorora imitsi, aho imitsi agorora ari kwibanda ku mikaya igize amaboko ndetse n'amatako.

Umukinnyi ukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'umugabo uri kumufasha kuruhuka, nyuma y'uko yari amaze kwirukanka ibirometero byinshi n'amaguru. Hari icyapa cyanditseho Visit Rwanda inyuma yabo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yo gukorana na siporo y'umukara, akaba arimo kunywa amazi, afite igikoresho kibikwamo telefone ku kaboko ke ndetse inyuma ye hakaba hari ibimera biri mu ibara ry'umuhondo.

Ingobyi ihekwaho abarwayi iri mu ibara ry'ubururu, ni ingobyi ihekwaho abarwayi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wagize ikibazo, cyaba ik'imvune cyangwa se indi ndwara ituma atabasha kugenda ngo agezwe kwa muganga, ahabwe ubuvuzi bw'ibanze mu buryo bwihuse.

Umusore urimo gukora siporo. Akaguru ke k'iburyo agapfukamishije hasi, akandi k'ibumoso gafashwe n'amaboko ye yombi. Ari gukora siporo ngororamubiri yimakaza ubuzima bwiza.

Inkoni iri mu ibara ry'umukara, ni inkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona. Ifite umutwe uzengurutswe n'umugozi wo kuyifatisha ku kaboko. Ni inkoni ihagaze mu buryo burambuye.

Umusore w'igikwerere, wicaye hasi warambije amaguru ndetse arimo aragorora imitsi y'amaguru ndetse n'iy'amaboko kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza ndetse anarinde indwara.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu. Siporo ni ubuzima. Imyitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze, aho rero muri iyi minsi isigaye yaritabiriwe cyane na bashiki bacu, nabo basigaye bakunda gukora imyitozo ngororamubiri bitewe nuko ibaha ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara wicaye hasi wahinnye amaguru, afite imisatsi miremire yahese umugongo ndetse n'ijosi akaboko ke arakarambura, ari kugorora ijosi ndetse n'amaboko, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa, bambaye impuzankano z'umutuku bo mu muryango utabara imbabareba Croix rouge, bateruye umusore bamujyanye mu mbangukiragutabara kugira ngo abashe kuba yahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku muntu ushaka kugira ubuzima bwiza. Aha dufite uburyo bune wakoramo imyitozo ngororamubiri, ubwa mbere ni ukuzamura akaguru, aha kabiri ni ukuzamura akaguru n'amaboko abiri yose, ahandi ni ugutambitsa akaguru, ahandi ni ukugenda bisanzwe.

Urupapuro rw'isuku, rukoreshwa mu gusukura ibintu bigiye bitandukanye, haba mu bwiherero ndetse n'ahandi hantu hatandukanye haba hakeneye gusukurwa hakoreshejwe urupapuro rw'isuku.

Icyapa kigisha ndetse kikanatanga inama z'ibyiza byo gukora siporo ngororamubiri uhozaho, rifasha mu igogora ry'ibiryo, rigabanya siteresi ndetse rikaba rinatuma amaraso atembera neza.

Abasore n'inkumi bahagaze bambaye umwambaro ufite ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu ibara ry'umutuku kiranga umuryango utabara imbabare Croix rouge, imbere yabo hari umurwayi wagize ikibazo urimo uratabarwa na mugenzi wabo aho arimo arahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi ndetse kinasuzumirwamo abarwayi bagize imvune, ni icyumba kirimo igitanda kirimo imashini yifashishwa mu kuvura abarwayi bagize imvune, harimo abaganga ndetse n'abandi bantu bari hafi aho ngaho bari kureba uko umuganga avura umurwayi.

Igifuniko cy'igitabo. Ni igitabo cyasohowe na Springer. Ni igitabo cyibanda ku mvune zibasira abakinnyi ndetse n'uko zavurwa.

Umwari wambaye impuzankano z'umukara, inkweto z'umweru, afite agakoresho gakoreshwa humva amajwi, arunamye ari gukora siporo ngororamubiri, aho zimufasha mu kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ingirakamaro, siporo ni nziza ku buzima bwa muntu! Uyu mwari yicaye hasi arambije, ahina umugongo, afatisha amaboko ye yombi ku maguru.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuzima, ni icyumba gifite inkuta z'umweru, harimo imashini nini ifite igitanda kiryamishwaho abarwayi mu gihe bari guhabwa serivise z'ubuzima.

Igikoresho kifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, ni igikoresho kiri mu ibara ry'umukara, amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, gifasha mu gukuraho inda mu buryo bworoshye.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga. Ni umurwayi ugiye kunyuzwa mu cyuma cy'ikoranabuhanga, kugirango harebe uburwayi yaba yaba afite, benshi bazi nko gucishwa mu cyuma. Ni ubuvuzi bukorwa hifashishijejwe imirasire.

Inkweto nshya z'umukara ziriho ikirango kigaragaza uruganda rwazikoze, ni inkweto zikomeye zikunda kwambarwa n'abantu bakora akazi, aho bashobora guhura n'ibyago byo kuba bajombwa n'ikintu runaka.

Icyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu kuvura ndetse no gupima abarwayi, icyo gikoresho cy'ubuvuzi kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hari ikindi gikoresho kiri iruhande rwa cyo ndetse n'igikuta kiri hafi aho kikaba kiri mu ibara ry'ivu.

Umukobwa wicaye ku mukeka uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahinnye amaguru ndetse anarambuye amaboko, impande ye hari icupa ry'amazi, ibyuma byo guterura, mudasobwa ndetse n'ibindi biri kumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyuma cyo kwa muganga kigendera ku mapine, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Ni icyuma cyifashishwa mu gupima ndetse no kuvura abarwayi, kikaba kinafite insakazamashusho imbere yacyo.

Umugabo uri muri sare ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse na siporo. Ari gukora siporo yifashishije ibikoresho biboneka muri iyo sare. Harimo amabaro ndetse n'ibindi byuma bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu bw'ikirere, akaguru ke kamwe kari imbere akandi yakarambuye hasi ashinze ivi. Ari gukora imyitozo ari mu cyumba kirimo inkuta z'umweru, icupa ry'amazi ndetse n'izindi ndabo ziri iruhande rwe.

Siporo ni nziza kandi siporo ni ingirakamaro ku buzima bwacu, umugabo wambaye impuzankano z'umukara, arimo arakora siporo yirinda ko yakwandura indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo ngororamubiri.

Umugabo ufite uruhu rwera, wambaye impuzankano z'umukara, inkweto z'icyatsi, ari gukora imyitozo, aho ashyize amaboko ye hasi ukuguru kwe imbere ukundi kukaba inyuma.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo isakazamashusho eshatu, indangururamajwi, imfatamashusho ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi zitandukanye. Harimo intebe zo kwicaraho mu gihe uri kwa muganga, ibyuma bireba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze ndetse n'ibindi.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zitandukanye, hari umusore wicaye ku gitanda. Aho arimo arahabwa ubuvuzi bw'ibanze nyuma y'uko yari yagize ikibazo k'imvune kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umuganga uri kwita ku murwayi, ndetse n'imashini ikoreshwa hapimwa uko umurwayi ameze. Ni imashini ikoreshwa gupima umwuka ndetse n'uko umutima utera.

Siporo ngororamubiri ni kimwe mu bintu tugomba kwitaho mu buzima bwacu, umukobwa wambaye imyenda y'umukara, uryamye hasi ku musambi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho arimo aragorora amaguru.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, isaha ku kaboko ari kumwe n'umurwayi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amasogisi, umuganga akaba afashe ku ivi rye aho arimo aramubaza uko yumva ababara.

Agasanduku karimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, ndetse no gutanga ubuvuzi bw'ibanze. Karimo udukarito duto duto turi mu mabara atandukanye: umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'andi mabara. Karimo umukasi, impapuro z'isuku ndetse n'ibindi.

Umukobwa wicaye hasi wambaye umupira w'iroza, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'iroza, yicaye hasi arambuye ukuguru kumwe imbere, maze akora ku kirenge cye n'ukuboko kwe, iyi myitozo ikaba ifasha mu kurambura imitsi, ndetse no kugorora umubiri.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru, wambaye udukoresho twifashishwa wumva amajwi mu matwi, wambaye isaha ndetse urimo kunywa amazi, nyuma yuko asoje gukora siporo.

Imipira yo gukina itandukanye ikoreshwa muri siporo zitandukanye, hari imipira yo gukina ikinishwa amaguru ndetse n'indi mipira y'intoki irimo nka basiketibolo.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, ufite umupira mu ntoki, ari imbere y'undi wambaye ipantaro y'ikigina ndetse n'umupira w'umukara na we ufite y'umupira mu ntoki, bari mucyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho bari gufatanya mu gukora imyitozo.

Agasanduku karimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi. Hari imikasi, udutambaro twifashishwa mu gupfuka abarwayi, inshinge ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi, gifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'icyatsi. Gikoreshwa hatangwa ubuvuzi, cyane cyane mu gutanga imiti cyangwa ibindi binyabitabire mu maraso y'umurwayi mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bikoreshwa havurwa abarwayi, harimo intebe z'ubururu, igitanda kiryamishwaho abarwayi bahabwa serivisi z'ubuvuzi na cyo kiri mu ibara ry'ubururu, utubati, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho.

Imbangukiragutabara irimo igenda, yerekeza ku kigo nderabuzima, irimo iragana kugera mu isangano ry'umuhanda, aho iri bube yinjiye mu muhanda munini ndetse igafata umuhanda uyigeza ku kigo nderabuzima.

Imiti yo kunywa ndetse no kwisiga ya Stopain iri mu bwoko butandukanye, iri mu mabara y'umweru, umutuku, ndetse n'umuhondo muke, ni imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi ibarinda ububabare.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, afite igikoresho kifashishwa mu gupima abarwayi mu ijosi, intoki ze zirimo umupira wo gukina wa rugubi, ni umuganga akenshi uvura indwara zifata abakinnyi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi byo gukoreraho imyitozo ngororamubiri. Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri, imashini ebyiri zo kwirukankiraho, imashini ebyiri zo gutwariraho amagare ndetse n'indi imwe iri hagati batwariraho igare bicaye. Ibi bikoresho byose bikaba bifasha mu gukora siporo ngororamubiri.

Umusore urimo gukora siporo imbere y'uburiri bwe, yarambuye umusambi aho arimo arakora imyitozo ngororamubiri imufasha kumera neza ndetse no kuba yakirinda indwara zitandukanye zaterwa no kudakora siporo.

Agasanduku karimo imiti yo kwa muganga yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo imiti itandukanye, imipira y'ubutabazi, imiti yica udukoko, imiti ivura ububabare, ibyuma byo gukata nk'imikasi, amavuta ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Ubuvuzi butandukanye ariko bwibanda ahanini ku bigendanye na siporo, iyi siporo rero ikaba ikorwa n'ingeri zose ndetse ikaba ari siporo zigiye zitandukanye, siporo zo kwirukanka, siporo zo gukina umupira w'amaguru ndetse hakaba havurwa n'izindi ndwara zitandukanye, ariko wagiriye muri siporo.

Ibimera ndetse n'ibikomoka ku buhinzi, ni bimwe mu byifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye ndetse bikaba byanakifashishwa mu kugenda bikora imiti itandukanye.

Amacunga ari ku isahani ndetse hakaba hateretse n'umuti cyangwa se amavuta forever royal jelly, akorwa hifashishijwe ayo macunga ijana ku ijana akaba ari ibimera by'ayo macunga.

Ibihingwa, ibimera ndetse n'ibikomoka ku buhinzi. Ni bimwe mu byifashishwa kuvura indwara zitandukanye. Bimwe muri byo byifashishwa havurwa indwara ndetse ibindi bikifashishwa mu gukora imiti ya kijyambere. Hari isekuru irimo gusekurirwamo amababi y'umuti kugira ngo ubashe kuba watunganywa uvure abarwayi.

Umuganga ufite imiti mu ntoki ya mifergyne. Akaba ari imiti ikoreshwa mu gukuramo inda, gusunika imihango, ndetse no kuvura bimwe na bimwe mu bibyimba byibasira inkondo y'umura.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ndetse no kuvura abarwayi. Harimo tangawizi ndetse na tungurusumu n'ibindi bimera bitandukanye bikoreshwa mu kuvura abarwayi ndetse bikaba byanakorwamo imiti itandukanye.

Imiti, amavuta n'isabune bikorwa mu bimera, ibi ngibi biri muri bimwe bikoreshwa mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye yaba izibasira uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Umugore urimo gusoroma amababi ku giti. Ni igiti kivaho imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, ndetse aya mababi akaba akoreshwa havurwa indwara nyinshi zitandukanye.

Inyabarasanya ni icyatsi gikoreshwa mu kuvura ibisebe, haba ku bakomeretse kikamurinda gukomeza kuva amaraso menshi ndetse kikaba cyanamwomora kikamukiza igisebe.

Ibimera byinshi ni ingirakamaro, aho byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse bikaba byanakifashishwa mu gukora indi miti igiye itandukanye, irimo ibinini bivura indwara zitandukanye z'ubwoko bwose.

Igitovu, ni ikimera gikunda kumera mu gisambu, aho gikoreshwa havurwa indwara zitandukanye, ndetse kikaba kinakundwa n'amatungo, inka, ihene ndetse n'intama, kandi kikaba cyanakifashishwa mu buvuzi havurwa indwara zinyuranye.

Umuti n'isabune bikozwe mu bimera bikoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu, uyu muti n'isabune bikaba akenshi byibanda mu kuvura ibiheri, ndetse n'utudomo tw'umukara tugaragara mu isura.

Revayive yaje ari igisubizo ku muryango. Ni umuti uvura indwara nyinshi, zirimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse ukanakumira indwara zifata porositate.

Ikinyagu kivamo ubuki budatunganyije, hari ubuki butunganyije mu buryo bwa gihanga, hari mu ngano y'icupa rinini, iriringaniye ndetse n'iritoya, nubwo birutana mu ngano ariko uburyohe n'umwimerere ni bimwe.

Umuti forever actic sea, ufunze mu icupa ry'umweru, rifite ibirango by'ubururu ndetse n'irindi bara ry'umweru. Ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, muri iryo cupa hakaba haba harimo ibinini makumyabiri.

Ubwoko bw'imiti bunyuranye, bukaba bwifashishwa mu kuvura indwara ndetse no gutakaza ibiro, agakarito kari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, iruhande rw'ako gakarito hari akajerekani k'umuhondo, iruhande rw'ako kajerekani kandi k'umuhondo nanone hari akandi gakarito nako kari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Igiti gikoreshwa mu buvuzi, iki giti kikaba kivura indwara zitandukanye, ndetse kikaba cyanakifashishwa hatunganywa imiti yo mu bundi bwoko, hifashishijwe ubuhanga.

Igiti cy'imbuto. Iki ni igiti cy'imbuto ziribwa ndetse zikanasagurirwa n'amasoko, zigaha inyungu nyir'igiti. Aha hari ukuboko k'umuntu gufashe ibabi ry'igiti.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni umuti uri mu ngano iringaniye, ni umuti ukorwa mu bimera ijana ku ijana kuko ukorwa muri tungurusumu, akaba ari ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara.

Agacupa k'umukara kari mu ngano iringaniye karimo amavuta ya lavenda, akomoka ku bimera aho yifashishwa mu kuvura hakoreshejwe impumuro, akaba yagabanya agahinda gakabije ndetse n'izindi ndwara.

Isabune n'amavuta bikorwa mu bimera, ni bimwe mu bikundwa n'abantu batandukanye. Isabune ikorwa muri avoka, amavuta akorwa mu gikarubamba. Hari isabune ifunze mu ipaki y'umweru n'icyatsi ndetse n'amavuta bikaba ari uko nguko, hari n'ifunze mu mweru n'umutuku.

Akabati karimo imiti myinshi ikoreshwa mu buvuzi bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo, ni imiti ivura indwara zitandukanye, ni imiti ikomoka ku bimera ndetse hakaba harimo imiti iri mu ibara ry'umuhondo, iry'umweru, umukara ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Igitabo kirimo amabwiriza agenderwaho igihe handikishwa imiti gakondo, ni igitabo cy'umuryango World Health Organization mu karere k'Afurika y'Ububurasirazuba ndetse n'Afurika yose.

Amavuta ndetse n'isabune bya Vegani bikoze mu bimera biri mu birinda uruhu rw'umuntu rwangirika, hari ingano zitandukanye ingano nini, intoya ndetse n'iziringaniye, hari amavuta ari mu icupa ry'umuhondo ndetse n'andi ari mu icupa ry'umweru ririmo amabara y'icyatsi, hakaba hari n'andi mabara yiganjemo.

Ubucuruzi bwibanda ku mboga ndetse n'imbuto bukorerwa ahantu henshi hatandukanye, hari abahitamo kubukorera mu isoko muri butiki ndetse hari n'abacururiza imbere y'imihanda.

Ubuvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwa gihanga. Bukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, abakurambere bacu babukoreshaga ndetse na n'ubu bakibukoresha mu kuvura indwara nyinshi ndetse yaba n'izananiranye. Rero iyi miti, imyinshi muri yo ikaba ikomoka ku bimera, ikaba ivura indwara nyinshi mu buryo bunyuranye.

Igiti gikoreshwa mu buvuzi gakondo, ni igiti gikoreshwa havurwa indwara nyinshi zitandukanye, yaba indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Abahanga mu by'ubuvuzi gakondo bagikoresha bavura indwara mu buryo butandukanye.

Ibihingwa by'ibimera nk'ibireti, ibinini ndetse n'indi miti ikoreshwa mu kuvura izindi ndwara. Byakusanyirijwe hamwe bishyirwa ku meza bimwe bishyirwa mu kirahure, ibindi biri ku meza.

Ububiko bw'imiti y'ingeri zose. Hari imiti iri mu ngano zitandukanye. Ingano nini, intoya ndetse n'iziringaniye. Hari amacupa y'umuhondo, umweru ndetse n'andi macupa y'umweru yiganjemo andi mabara nk'ubururu.

Umujyanama w'ubuzima ndetse n'imirire, amenyesha imirire iboneye kugira ngo hirinde indwara ndetse nitutarya ibyo kurya nk'umuti tuzasigara turya imiti nk'ibiryo.

Ibimera n'ibihingwa ni bimwe mu byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hifashishijwe ubuvuzi bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo, rero ibimera byinshi birimo nk'igikakarubamba, bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zirimo n'iz'uruhu.

Igikakarubamba ni ikimera kifashishwa mu gukora imiti itandukanye. Kifashishwa mu gukora imiti irimo amasabune avura indwara z'uruhu ndetse n'amavuta nayo yakwifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu.

Amavuta alloe vera gel, aloe mango, akorwa mu bimera by'umwimerere. Hifashishijwe ibimera by'amacunga ndetse n'ibimera by'igikakarubamba. Ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Isoko rihuriramo abantu benshi batandukanye, ni isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, nk'imboga, imbuto, ibirayi, ndetse n'ibindi bicuruzwa bindi biba biri muri iri soko.

Imiti myinshi itandukanye ndetse inafunze mu buryo butandukanye, hari imiti ikomoka ku bimera, iri mu dupaki tw'icyatsi ndetse n'indi iri mu dupaki tw'ubururu, umuhondo ndetse n'andi mabara, byose byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni umuti ukozwe mu bimera. Ni umuti ufunzwe mu mapaki atandukanye. Hari ipaki y'umuhondo ndetse andi mapaki akaba ari umweru.

Akabati kari mu ibara ry'ubururu, karimo imiti myinshi itandukanye ndetse hakaba hanateretsemo amazi, impande y'ako kabati hakaba hari firigo iri mu ibara ry'umweru, imbere y'iyo firigo hari umugore ufite imisatsi myinshi, wambaye itaburiya y'umweru ndetse hakaba hari n'undi wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ijipo y'ubururu.

Ibiti bine bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ibi biti byifashishwa havurwa indwara nyinshi zinyuranye, aho ubifata ashobora kubifata mu buryo bubiri, wabinywa cyangwa se ukabirya, ibyo byose rero bikaba byagufasha kuba wakira indwara.

Aloe Vera Gelly ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zigiye zitandu, uyu muti uvura indwara z'ibiheri ndetse n'izindi ndwara zakibasira isura ndetse n'uruhu.

Amacupa atatu y'imiti yongera ubudahangarwa bw'umubiri, harimo icupa rimwe ry'umuti ryubitse ku ruhande, irindi rihagaze neza n'icupa rya gatatu ry'imiti ryubitse ku ruhande ariko rihingamye gato, ibi bicuruzwa byose bikaba biri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Agakarito ka forusevare soribure, kari imbere y'utundi dukarito tubiri, gafite ibara ry'umweru n'umutuku, hamwe n'inyuguti z'icyatsi kibisi, karimo uburyo bushya bw'inyongera y'ibiribwa irimo vitamine nyinshi n'imyunyu ngugu.

Amavuta Alice vela gel, ni amavuta y'ubwoko butandukanye aho akorwa mu bimera, ni ubwoko bune butandukanye ariko yose akaba ahuriye kw'ibanga ryo kurinda uruhu kwangirika ndetse no gukanyarara.

Imiti iri mu ngano zitandukanye ndetse n'amabara atandukanye, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ikoreshwa mu kuvura ububabare bushobora gufata umugongo mu ngingo zitandukanye zo mu ivi ndetse n'izo ku maboko.

Igiti gikoreshwa mu buvuzi, ni igiti gikoreshwa havurwa indwara zinyuranye zo mu bwoko butandukanye. Iki giti kandi kikaba cyakifashishwa n'abahanga bakora indi miti ivura izindi ndwara.

Umuti w'amenyo wa Forever Bright ukozwe mu bimera byiganjemo igikakarubamba, hari igikombe kirimo uburoso bwo gusukura amenyo ndetse n'ikindi gikombe kirimo igikakarubamba, hari ibitambaro by'amazi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibihingwa ndetse n'ibikomoka ku bimera, byifashishwa mu gukora imiti ndetse no kuvura indwara zitandukanye. Indimu ziri mu byifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, ndetse n'ibindi bimera.

Agakarito kavamo imiti iyo miti ikaba ari ibinini icumi, aho buri ruhande ruba rufite ibinini bitanu ndetse n'urundi ruhande rukagira ibindi binini bitanu.

Agakarito k'umuti k'ibara ry'ubururu, umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'andi mabara. Ni umuti ukoreshwa mu kuvura abarwayi ndetse ukaba wongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Imiti n'amasabune bya foreva ni imwe mu miti ndetse n'amasabune akoreshejwe ibikomoka ku bimera, ni imiti ikoreshwa havurwa indwara zitandukanye cyane cyane indwara zifata uruhu.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibimera ndetse n'ibikomoka ku bimera, ni ibimera bikoreshwa mu gukora imiti itandukanye ndetse bikaba byanakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni ubwoko bwinshi, aho buri kimera cyagiye gitandukanywa n'ikindi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'imiti iteretse ku meza, utubati two kubikamo imiti ndetse n'intebe zo kwicaraho. Hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru urimo urategura imiti yo kuvurisha abarwayi.